Ubwishingizi bw'amatungo ni uburyo bwashyizeho na leta y'u Rwanda aho umuturage atanga amafaranga ibyo bikazamufasha kuzavuza itungo ryiwe mu gihe ryagize ikibazo n'indwara zitandukanye, ibyo bigateza imbere amatungo mu Rwanda azira indwara.

Imyenda ni igikoresho abantu twifashisha twambara mu buzima bwa buri munsi, idufasha kuba twakwambara mu buryo butandukanye, aho buri muntu wese usanga yifuza kuba yakambara kugira ngo abe yatambuka ahantu agiye yumva ameze ne...

Ibishushanyo ni ibikoresho abantu bashushanya bagaragaza ikintu runaka bashaka, bagaragaza ubutumwa bashaka kuba batanga, ibishushanyo bishobora gukoreshwa bamamaza bimwe mu bicuruzwa abantu baba bacuza cyangwa hari n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ibitenge n'imyambaro yambarwa n'igitsina gore, aho yambarwa n'abagore bakaberwa mu buryo bwiza cyane ku buryo ubabonyebona abona y'uko bambaye neza, si ibyo gusa ibitenge bikunda kwambikwa abantu bashatse abagabo.

Imodoka ni bimwe mu bikoresho byifashishwa bikora ingendo ziva hirya no hino ku isi, aho zigira akamaro kenshi cyane mu gutwara abantu n'ibintu. Ibyo ngibyo bigatuma ingendo z'abantu bakora zigabanuka.

Amafaranga ibihumbi bitanu by'amanyarwanda, ni yo mafaranga munote makuru cyangwa akuze, ni yo mafaranga twavuga ko iyo umuntu ayafite, amera nkaho afite akanyamuneza ku munwa.

Abantu ni bamwe mu bintu byifashishwa hamamazwa ibicuruzwa bimwe na bimwe, abantu dukenera mu buzima bwa buri munsi, kuko bifashishwa bamamaza bimwe mu bicuruzwa dukoresha.

Isi ya none imaze gutera imbere, aho abantu dusigaye dukoresha gaze, gaze ikaba ari igikoresho kiza cyane kifashishwa mu guteka, gaze iteka vuba mu buryo bwihuse ushaka gukora urugendo ushaka no kurya, ni ibintu ukora mu buryo bwihuse kandi bizira kuba watinda urugendo wapanze.

Buri bwoko bw'amafaranga bugira ikirango cyayo, kandi agira akamaro kenshi cyane mu buzima bwa muntu aho akoreshwa agurwa ibintu bitandukanye, ibyo bikadufasha kuba twabaho neza mu buzima twifuza.

Televiziyo ni igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kureba amashusho y'ibintu byagiye bicaracara hirya no hino ku isi, si ibyo gusa televiziyo ikora ibintu byinshi cyane, aho ikwereka bimwe mu bintu biri kugenda byamamara bitangazwa hirya no hino mu isi.

Ameza ni igikoresho kibajwe mu giti, aho cyifashishwa bariraho, bateguraho ibintu byinshi cyane bitandukanye, si ibyo gusa ameza akunda gukoreshwa ahantu mu masaro, aho abantu bayakoresha mu bintu byinshi.

Ibiro bikuru by'ubwishingizi, ni bimwe mu bifasha abantu benshi cyane kugaruza imwe mu mitungo, baba baragiye babura mu gihe bakoze impanuka, ibi bikaba bifasha abantu kuba bagera kuri zimwe mu ntego zabo kandi bakagira ubuzima buzira umuze.

Abakobwa ni bamwe mu bantu beza cyane, aho umukobwa yambaye neza afite amaherena, imisatsi, afite ibigohe byiza cyane n'inseko nziza cyane izira icyasha.

Koperative ni uburyo abantu bicara hamwe, bagahurira ku ngingo imwe, igitekerezo kimwe bagamije kugira inyungu imwe. Ibyo bikabafasha gushyiraho amahame n'amabwiriza bagenderaho mu gukora gahunda yabo kugira ngo bazagere ku ntego bifuza.

Telefone ni igikoresho cyifashishwa umuntu ahamagara undi akoresheje umunwa, kwandikirana kuri Whatsapp kuri Facebook, Twitter, Instagram n'ahandi hantu hatandukanye. Telefone ushobora kuyikoresha ukorera amafaranga mu buryo bw'itumanaho.

Inzu ni inyubako zubatswe mu buryo bwa gihanga aho inzu zifashishwa abantu babamo, gucumbikira abantu bava hirya no hino ku isi ibyo bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Isoko ni ahantu hahirwa ibintu byinshi cyane abantu bifashisha mu buzima bwa buri munsi, aho haba harimwo imbuto nyinshi ibyo kurya, ibintu byinshi cyane bifasha kuba ubuzima bwa muntu bwabaho mu buryo buzira umuze.

Ibinyobwa ni bimwe mu binyobwa bisukika, aho bikoreshwa mu buzima butandukanye, aho binyobwa, ibyo bigatuma ubuzima bwa muntu bumererwa neza, bikagira amafaranga, aho abantu babicuruza, babivana hirya no hino ku isi.